Icyapa gifite ibara ry'umweru kikaba cyandikishijeho amagambo ari mu mabara y'umukara ndetse n'ubururu, hakaba hariho umutaka ufite ibara ry'umutuku, ndetse n'umweru, ku ruhande hakaba hari ibiti birebire.

Umugabo wambaye ingofero y'umweru ndetse n'umupira w'amaboko magufi ufite ibara ry'umweru, ku ruhande hakaba hari umugore ufite umwana mu ntoki uwo mu gore akaba yambaye umupira w'umweru, uwo mwana akaba yambaye agapira k'umutuku, iruhande hakaba hari abandi bantu bagiye bicaye, inyuma hakaba hari ibyapa bigiye bitandukanye biri mu bara y'umweru ndetse n'ubururu.

Umugore ufite uruhu rwera imbere ye hakaba yateretse mudasobwa, ku ruhande rwekaba ari umuhungu wirabura muremure wambaye umupira ariko muremure ufite ibara ry'umweru akaba ari kwandika inyuma yabo akaba ari akabati kuru ruhande akaba ari agapfunyika.

Umugore w'inzobe uri guseka wambaye ikanzu y'igitenge, iruhande rwe hakaba hari amakanzu menshi cyane y'amabara agiye atandukanye, inyubako arimo ikaba ifite ibara ry'umweru ku bikuta ndetse hasi hakaba hari ibara ry'umutuku.

Abagabo babiri bafite uruhu rwera, barahagaze bafite urupapuro runini ruriho amafoto y'ibinyabiziga ndetse harimo n'umugore nawe afite urupapuro. Inyuma hakaba hari ibyapa biri mu mabara y'umweru, ubururu.

Ikinyabiziga cyabugene cyo gutwara abantu kikaba gifunguye imiryango imbere hakaba ari imyanya ibiri ndetse n'inyumakaba n'imyanya yagenewe yo kwicurwaho n'abantu iruhande rwikinyabiziga hari ikindi ikinyabiziga giparitse gifite ibara ry'umutuku ndetse n'ikindi gifite ibara ry'umukara ndetse abantu hakaba n'ibiti.

Imodoka eshatu zabugenewe gutwara imfungwa zikaba ziparitse hakaba hari n'abandi bagabo babiri bahagaze umwe yambaye ishati y'amaboko maremare ifite ibara ry'umweru undi yambaye imyenda ifite ibara ry'umukara.

Umugabo wambaye ishati y'umweru y'amaboko maremare, iruhande hakaba hari umugabo na we wambaye ishati y'amaboko maremare ndetse n'amataratara; bakaba bafite urufunguzo ruri mu ibara ry'umweru ndetse n'amabara y'umukara kandi urufunguzo akabari runini, inyuma hakaba haparitse ikinyabiziga gifite ibara ry'umukara.

Ibinyabiziga bine biri mu nyubako, bikaba bifite amabara y'umweru bikaba byarabugenewe gutwara imizigo myinshi, ku rundi ruhande akaba hari umuntu wicaye, imbere ye hakaba hateretse imeza iriho impapuro, agacupaka k'amazi kandi izo modoka ahantu ziri mu nyubako ifite amakara.

Umugore wambaye ikanzu ifite ibara ry'umutuku ndetse harimo n'amabara, akaba afite ikaramu mu ntoki akaba ari kwandika ku rupapuro, hakaba hari n'ibirahuri imbere ye, inyuma y'ibyo birahuri hakaba hari umugore wambaye ishati y'umweru ndetse n'ikoti ry'umukara, imbere hakaba hateretse mudasobwa.

Umugabo wambaye umupira w'amaboko magufi, akaba ahagaze aje kwaka serivisi zerekeranye no kubikuza, ku rundi ruhande hakaba hari abagore babiri bahagaze na bo baje kwaka serivisi, umwe mu batanga serivisi yambaye ishati y'amaboko maremare, ndetse imbere n'icyuma cyabugenewe cyo kubara amafaranga, bakaba bari mu nzu ifite amakaro.

Umugore wambaye ikanzu ufite ibisuku ndetsembe n'agapfukamunwa akaba ahagaze, imbere ye hakaba hari umuntu uri gutanga serivisi, akaba ari umugore kandi imbere ye hakaba hateretse mudasobwa, ku rundi ruhande hakaba hari abandi bagabo babiri bahagaze ndetse n'undi muntu utanga serivisi.

Umugabo wambaye amataratara, wambaye umupira w'amaboko maremare ufite ibara ry'ubururu, imbere ye hakaba yatetse mudasobwa n'ibirahure, inyuma y'ikirahure hakaba hari umugabo ufite umupira w'umutuku ndetse akaba yambaye n'ishati irimo imirongo, akaba afite n'umusatsi mukeya.

Icyuma cyabugenewe cyo gukonjesha, kikaba gifite amabara y'ubururu n'umweru ndetse hakaba hariho n'amagambo menshi y'umweru, hejuru hakaba hateretseho akantu kabugenewe ko gushyiramo udutambaro, ku rundi ruhande hakaba hari igikuta ndetse urundi ruhande hakaba hari intebe, ndetse iyo nzu ikaba irimo amakaro.

Igikoresho cyabugenewe cyo kubikamo amata kikaba gifite ibara ry'umweru ndetse n'ubururu, imbere hakaba hateretse ijerekani, ku ruhande hakaba hateretse imeza n'intebe nabyo biri mu mabara y'umweru.

Umuntu wicaye ku ntebe ifite ibara ry'umweru, akaba yambaye ishati y'amaboko magufiri y'amabara, akaba afite umugati mu ntoki ndetse ari kunywa n'amata, imbere ye hakaba hiciye umwana ufite umugati mu ntoki nawe ari kunywa amata, imbere yabo hakaba hari umugabo uhagaze wambaye umupira w'umweru.

Umugabo wambaye umupira w'amaboko magufi, ufite iba ry'umutuku ryijimye, akaba ahagaze, iruhande hakaba harimo akabati karimo ibyo kunywebwa bigiye bitandukanye, iruhande hakaba hari imashini yabugenewe ibikwamo amata, ku rundi ruhande hakaba hari n'akandi kabati karimo amagi ndetse n'ibindi bicuruzwa bigiye bitandukanye.

Umugabo wirabura wambaye umupira w'amaboko maremare, ahagaze mu nzu y'ubucuruzi. Imbere ye hari akabati karimo ibiribwa ndetse n'ibinyobwa bigiye bitandukanye ndetse muri iyo nyubako harimo umugabo ufite akajarekani mu ntoki, akaba yambaye umupira w'umweru.

KIkirahure kirimo amata, kikaba giteretse ku meza iriho igitambaro cy'amarage agiye atandukanye, harimo ubururu umweru ndetse n'umukara, imbere hakaba hari ikindi kirahure kirimo amata n'akajerikani gafite ibara ry'umweru, n'intebe ku rundi ruhande ifite ibara ry'umweru.

Umugore wambaye igitenge, akaba yicaye ku ntebe, imbere ye hakaba hari umuhungu wambaye isengeri ifite ibara ry'ubururu, ku ruhande hakaba hari ibikoresho bigiye bitandukanye harimo ibiribwa. Iruhande hakaba hari imeza, uwo mugore akaba agiye kunywa amata ndetse iruhande rw'uwo mugore hakaba hari umugabo wambaye ingofero y'ubururu uri kureba ku ruhande.

Umugore wambaye umwenda ufite ibara ry'umweru ndetse akaba yambaye n'utuntu mu ijosi, akaba afite igikoresho cy'ikoranabuhanga mu ntoki, ndetse akaba afite n'igitambaro gifite ibara ry'umutuku mu mutwe, ku ruhande rwe hakaba hari icyapa ndetse hakaba hariho amagambo y'umukara.

Umuhungu uhagaze wambaye umupira w'amaboko mugufi ufite ibara ry'umweru, iruhande rwe hakaba hicaye umukobwa wambaye imyenda y'umukara. Inyuma hakaba hari ibyapa bigiye bitandukanye umubara y'umutuku, umweru ndetse n'umuhondo. Iruhande rwe umuryango ukaba ufunguye ku rundi ruhande hakaba hari umugabo utegereje guhabwa serivisi.

Ikinyabiziga cyabugenewe cyo gutwara imizigo, kikaba kiri kugenda mu muhanda wa kaburimbo ndetse n'ipikipiki. Ku ruhande hakaba hari inzu z'ubucuruzi, amapoto ndetse n'igare. Ku rundi ruhande, hakaba hari imeza ifite intebe enye.

Umugore wambaye ishati ifite ibara ry'mweru akaba yicaye. Ku ruhande rwe hakaba undi mugore wambaye ikoti rifite ibara ry'umukara ndetse n'ishati y'umweru, bakaba bakora kuri resebusiyo y'ahantu runaka. Inyuma hakaba hari amafoto ndetse n'itara ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye harimo nk'indabyo.

Umugabo ufite uruhu rwera akaba yambaye umupira w'amaboko magufi akaburikwaka serivisi, imbere ye hakaba hari umugore wicaye wambaye ishati y'umweru n'ikoti ry'umukara bakaba bari mu nyubako ifite amabara y'umweru, ndetse harimo n'indabyo ndetse n'amavuta agiye atandukanye.

Umugabo wambaye ikoti ifite ibara ry'umukara ndetse n'inkweto z'umukara, akaba yambaye impeta, akaba yambaye n'ishati ifite ibara ry'umweru. Inyuma ye hakaba hari imeza iteretseho mudasobwa, intebe y'umukara ndetse akaba ari mu nyubako ifite ibara ry'umweru ndetse irimo n'amakaro.

Umugabo wambaye ishati y'amaboko maremare irimo uturongo, iruhande rwe akaba hari inzu iri mu mabara y'umweru ndetse n'ubururu, imbere ye hakaba hari umugabo wambaye ishati y'amaboko magufi y'umweru ndetse hagati yabo hakaba hari umugore uri kwirukanka.

Abantu benshi bari mu nyubako harimo abicara bahagaze haba hari umugore ufite ibisukombe umupira w'umukara akaba afite igitabo ku ruhande rwe hakaba hari umugore wambaye umupira w'umweru iruhande rw'umugore akaba ari umugabo wambaye ishati y'amaboko maremare ifite ibara ry'umweru ndetse hakaba nabandi bantu na benshi bagiye batandukanye ndetse muri iyo nzu akabamo n'ibikoresho bigiye bitandukanye by'ikoranabuhanga.

Abantu benshi bakaba bicaye mu nyubako harimo abagore n'abagabo, bakaba bicaye ku ntebe zifite ibitambaro by'umweru ndetse imbere hakaba hataretse imeza ziriho ibitambaro bifite ibara ry'icyatsi, bakaba bari mu nyubako irimo amakaro ifite amabara y'umweru.

Umugabo wambaye ishati y'amako maremare y'umweru ndetse n'ipantaro ndetse n'ingofero ifite ibara ry'umukara, iruhande hakaba hateretse icyapa kiri mu mabara agiye atandukanye ndetse ku rundi ruhande hakaba hariho n'umugabo wambaye ingofero ndetse n'ipantaro, ku rundi ruhande hakaba hari abantu bicaye bakaba bategereje serivise.

Umugore wambaye amataratara imbere ye hakaba hari ibicuruzwa bigiye bitandukanye harimo imineke ndetse n'imyumbati, ndetse hakaba hateretse n'ibindi bicece bigiye bitandukanye, iruhande hakaba hari abantu bagiye bahagaze ndetse hakaba n'umugabo wicaye wambaye umupira w'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara, iruhande rwe hakaba hari imineke.

Umugore ufite imisatsi akaba yambaye umupira w'amaboko magufi ndetse akaba akenyeye n'igitenge, akaba afite akabase karimo n'inyanya iruhande hakaba hari abandi bantu bagiye batandukanye ndetse hakaba n'imifuka iteretse hasi iriho inyanya n'intoryi ndetse n'ibindi bicuruzwa bijyiye bitandukanye.

Umugore wambaye ikanzu irimo amabara, ifite ibara ry'umutuku, ku ruhande rwe hakaba hari abagore babiri bicaye ndetse ku rundi ruhande hakaba harimo n'abantu benshi cyane bahagaze. Bakaba bari mu isoko ry'ibiribwa. Aho usanga harimo nk'intoryi, inyanya, ibitunguru ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Inyubako yabugenewe yo gucururizwamo imbuto ndetse n'ibiribwa harimo; imineke, inanasi, amatunda ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Hakaba hari abantu benshi bari kugenda harimo abagabo n'abagore.

Umugore wambaye ibitenge akaba afite igitambaro mu mutwe imbere ye hakaba hateretse ibase iri mu mabara y'icyatsi n'umukara, ndetse n'isiniya iriho ibintu bigiye bitandukanye nyuma hakaba hari umugore uhetse umwana ndetse n'abandi bantu bagiye bahagaze aho ngaho.

Umuhungu uhagaze wambaye umupira ufite ibara ry'umweru n'ipantaro ndetse n'inkweto ziri mu mabara y'umukara n'umweru, imbere hakaba hari umukobwa uhahagaze ufite imisatsi miremire, ku rundi ruhanda hakaba hari umuhungu uhagaze ufite uruhu rwera inyuma hakaba hahagaze umuntu wambaye umurapira w'umukara, bakaba bari ahantu bacururiza ibitenge.

Inyubako yabugenewe yo gucururizwamo ibyo kurya bigiye bitandukanye, harimo amashu, kokombure, inyanya, pavuro, imiteja ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Hakaba harimo urujya n'uruza rw'abantu bagiye batandukanye baba baje kugura ndetse no kugurisha.

Umugabo wambaye umupira w'amaboko maremare w'imbeho, ku ruhande rwe hakaba hari umugabo ufite imyenda mu ntoki wambaye ishati y'amaboko maremare y'uturongo, ku ruhande rwe hakaba hari abantu benshi bagiye batandukanye, harimo abari kugenda ndetse n'abahagaze, ku ruhande hakaba hari utubati turimo inkweto.

Ahantu habugenewe ho gucururizwa ibiribwa bitandukanye; harimo inyanya, intoryi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, hakaba hari umwana wambaye umupira w'ibara ry'umuhondo wicaye ndetse n'abandi bantu benshi harimo abahagaze ndetse n'abicaye, hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore.

Umuntu wicaye akaba yambaye umupira w'umukara ndetse n'ipantaro yo mu mabara y'umweru, iruhande rwe akaba yateretse ibicuruzwa bigiye bitandukanye harimo: ibikapu, ibiseke ndetse ku ruhande hakaba n'undi mugore wicaye wambaye ikanzu ngufi y'umukara ndetse hakaba hari n'abandi bantu bagiye batandukanye.

Akazu gafite ibara ry'umuhondo kakaba ari ak'ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'itumanaho, muri ako kazu hakaba harimo umugore wambaye isaha ndetse n'indi myenda, ku ruhande hakaba hari undi umugore wambaye umupira w'umutuku uhagaze. Ku rundi ruhande hakaba hari igiti, inyuma hakaba hari igikuta ndetse ku rundi ruhande hakaba hari n'abandi bantu bagiye batandukanye.

Umugabo ufite uruhu rwera ufite uruhara, akaba afite amataratara mu ntoki, akaba yambaye ishati y'amaboko maremare irimo amabara y'umukara ndetse n'umuhondo. Imbere ye hakaba hari umugabo wambaye umupira ufite ibara ry'umutuku ndetse bakaba bahagaze ku kazu k'ikigo gishinzwe gutanga serivi z'itumanaho. Inyuma hakaba hari abantu ndetse n'ibinyabiziga.

Umuntu wambaye umupira w'umweru ndetse n'ingofero bifite ibara ry'umuhondo iruhande rwakaba ariumu umugabogabo ufite igikoresho cy'ikoranabuhanga mu mukene wambaye ingofero bafite ry'umukara ku ruhande rwabo bakaba hari abantu benshi bagiye batandukanye ndetse bakaba ari munsi y'umutaka ufite ibara ry'umuhondo akaba ari w'ikiguzi cyo gutanga serivi z'itumanaho.

Abahungu babiri bambaye imipira ifite ibara ry'umuhondo bakaba bakorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'itumanaho, bakaba bari gutanga serivisi. Imbere hakaba hari umugabo wambaye ishati akaba ari kwaka serivisi ndetse imbere y'aba bahungu hakaba hateretse mudasobwa.

Icyapa kigaragaza uburyo ushobora kwishyura amafaranga batagukase kikaba ari icy'ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'itumanaho mu gihugu, aho ushobora gushyiraraho imibare gatandatu gatandatu gatandatu gatandatu gatatu zeru ukishyura batagukase birihuta kandi birizewe.

Umugabo ufite uruhu rwirabura wambaye ingofero y'amabara y'umuhondo ndetse n'ubururu. Akaba yambaye n'umupira w'amaboko magufi, ufite ibara ry'umuhondo ndetse n'ubururu, iruhande hakaba hahagaze umugore ufite ibisuko nawe wirabura, akaba yambaye ishati y'amaboko magufi y'ubururu bwijimye, akaba afite igikore cy'ikoranabuhanga mu ntoki, iruhande hakaba hari abana babiri bahagaze.

Akazu gafite ibara ry'umuhondo kakaba kariho amagambo ari mu mabaragi atandukanye harimo umukara ndetse n'umutuku iruhande hakaba ahagaze abana batoya ku rundi ruhande hakaba hari abantu bari kugenda muri ako kazu hakaba harimomo umugabo wambaye umupira w'umweru akaba ari gutanga serivisi z'itumanaho.

Akazu gafite ibara ry'umuhondo, kakaba ari ak'ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'itumanaho, hakaba handitseho amagambo mu mabara y'umweru ndetse n'ubururu, ku ruhande hakaba hahagaze umukobwa uje kwaka serivisi.

Umutaka ufite ibara ry'umuhondo w'ikigoshinzwe gutanga serivisi z'itumanaho, imbere hakaba ari imipira ndetse n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye, harimo ibikoresho by'ikoranabuhanga muri uwo mutaka hakaba harimo abagore babiri bicaye akaba bari gutanga serivisi.

Akazu gafite ibara ry'umuhondo, akaba ari ak'ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'itumanaho, hakaba harimo abagore babiri bakaba bari gutanga serivisi. Muri ako kazu hakaba hahagaze umugabo wambaye ikoti wirabura, akaba aje kwaka serivisi z'itumanaho.

Umuntu ufite igikoresho cy'ikoranabuhanga mu ntoki ze akaba ari kwishyura amafaranga batamukase. Akaba ari gukoresha uburyo bwashyizweho n'ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'itumanaho mu gihugu. Uburyo bwizewe kandi bwihuta bwo kwishyura batagukase.

Umugabo wambaye ishati y'amoko maremare, ndetse n'ipantaro ifite ibara ry'umukara, akaba ahagaze ku kazu gafite ibara ry'umuhondo, akaba ari k'ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'itumanaho, muri ako kazu hakaba hicayemo umugore, akaba ari gutanga serivisi z'itumanaho.

Akazu gafite ibara ry'umuhondo k'ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'itumanaho, kakaba kariho amagambo y'umukara, ku ruhande hakaba hari ipoto, icyapa, ibiti ndetse n'umuhanda wa kaburimbo.

Umugore wambaye umupira ufite ibara ry'umuhondo ndetse uriho n'amagambo y'ubururu, akaba ahagaze, iruhande rwe hakaba hari undi mugore na we uhagaze, bakaba bari mu nzu y'ubucuruzi, harimo ibikoresho bigiye bitandukanye, ibiribwa ndetse n'ibindi. Hakaba hari undi mukobwa wicaye akaba ari kubafasha.

Akazu gafite ibara ry'umutuku kariho n'amagambo ananikishije amabara y'umweru mu iruhande akaba ari igicupa kinini kirimo amazi ku ruhande akabaparitse ipikipiki, inyuma hakaba ari igiti ndetse n'inyubako zigiye zitandukanye a ho kazu akaba arik' igihugu kishin gutanga serivisi z'itumanaho.

Akazu gafite ibara ry'umutuku k'ikigo cyagenewe gutanga serivisi z'itumanaho, akaba ari amagambo y'umweru. Iruhande akaba ari umugore wicaye wambaye isengeri y'umuhondo, inyuma hakaba umugabo uhagaze ndetse n'abandi bantu ndetse hakaba haparitse n'ikinyabiziga.

Umukobwa wambaye ingofero ifite ibara ry'ubururu ndetse n'umuhondo, akaba afite n'ibisuko, akaba yambaye umupira w'amaboko magufi, ifite ibara ry'umuhondo, ndetse n'ipantaro y'umukara, iruhande rwe akaba hakaba hari umugore ufite igikoresho cy'ikoranabuhanga mu ntoki, akaba yambaye n'ikanzu, inyuma hakaba hari icyuma cyabugenewe cyo gukonjesha.

Icyapa gifite ibara ry'umuhondo kiriho amagambo y'umukara, kikaba cyometse ku gikuta gifite ibara ry'umweru, icyo cyapa akaba ari ik'ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'itumanaho, aho ari uburyo ushobora kwishyura amafaranga batagukase, ari bwo gukanda akanyenyeri, rimwe umunani kabiri, akanyenyeri umunani, akanyenyeri rimwe, akanyenyeri, zeru karindwi icyenda gatanu gatanu karindwi umunani urwego, ukishyura batagukase, birihuta kandi birizewe.

Umuhungu uri guseka akaba yambaye ishati y'amaboko magufi ifite ibara ry'icyatsi irimo amagambo y'umweru, iruhande rwe akaba afite agapfunyika karimo ibyo kurya bigiye bitandukanye harimo amavuta na karoti ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, ku ruhande hakaba hari agasanduku gafite ibara ry'icyatsi.

Amapikipiki ane akaba aparitse hirya y'umuhando wa kaburimbo, akaba ahetse udusanduku dufite ibara ry'umutuku ndetse n'umweru, hirya y'umuhanda hakaba hari igikuta gifite ibara ry'umuhondo, hakaba hari igiti ndetse n'izindi nyubako.

Abamotari benshi batwaye amapikipiki bakaba bambaye ingofero z'imituku ndetse n'imyenda ifite amabara y'umutuku, bakaba bari kugenda muhanda wa kaburimbo, imbere hakaba hari ikinkinyabiziga gifite ibara ry'umweru ndetse imbere hakaba hari n'amazu ku ruhande hakaba hari indabyo.

Abagabo babiri bahagaze bambaye ingofero zifite ibara ry'icyatsi, baka bambaye amashati y'amabako magufi afite ibara ry'icyatsi, hagati yabo hakaba haparitse ipikipiki ihetse agasanduku gafite ibara ry'icyatsi, ku rundi ruhande hakaba hari ipoto, icyapa ndetse n'indi pikipiki iparitse.

Ipikipiki iparitse ikaba iriho agasanduku gafite ibara ry'icyatsi hakaba hari ho amagambo afite ibara ry'umweru avuga ngo vuba vuba ndetse n'andi magambo agiye atandukanye. Ikaba iparitse hirya y'umuhanda, imbere hakaba hari ibindi binyabiziga biparitse ndetse ibindi biri kugenda.

Inzu ndende yubatse mu bwoko bugezweho, imbere y'iyo nzu hakaba ari igikuta kiri mu amabara y'ubururu ndetse n'umuhondo ndetse n'igipangu gifite ibara ry'umukara, imbere hakaba hari amabuye ndetse n'indabyo, iyo nzu ukaba wayikodesha miliyoni imwe n'ibihumbi ijana.

Umugabo wambaye ishati y'umweru akaba ahagaze, ku ruhande rwe hakaba hari umugore wambaye ikanzu, hakaba hateretse imeza, intebe ndetse hakaba hari n'ifoto iri ku gikuta ndetse n'itara, kurundi ruhande hakaba hari ubusitani n'ibiti by'imikindo.

Umugore wirabura wambaye igitenge, iruhande rwe hakaba hari undi mugabo uhahagaze wambaye ishati, ku rundi ruhande hakaba hari umukobwa. Bakaba bari mu nzu y'ubucuruzi aho bacuruza imyenda igiye itandukanye.

Umugabo wambaye umupira ufite ibara ry'umweru akaba afite igikoresho cy'ikoranabuhanga mu ntoki ze, ku ruhande rwe hakaba hari umugore uhahagaze wambaye umupira ufite ibara ry'umutuku ndetse ahantu bahagaze hakaba hari n'abandi bantu benshi cyane ndetse bakabacuruza imyenda.

Inyubako yagenewe gucururizwamo, ikaba ifite imiryango ibiri ndetse iyo miryango ibiri, hakaba hariho ibyapa bigiye bitandukanye, hari iy'ibiryo ndetse n'ibiryo bitandukanye, hejuru y'iyo nyubako hakaba hari icyapa kiri mu mabara y'icyatsi ndetse n'ikindi cyapa kiri mu mabara y'umweru.

Abantu benshi bahagaze mu nyubako y'ubucuruzi hakaba harimo abagore ndetse n'abagabo. Ahantu bahagaze hakaba harimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye harimo ibitambaro ndetse n'imyenda.

Umukobwa wambaye imyenda y'ingabo z'igihugu imbere ye hakaba hateretse mudasobwa, ndetse akaba yambaye n'isaha. Ku ruhande hakaba hari undi muntu na we wambaye imyenda y'ingabo z'igihugu, imbere ye hakaba hateretse mudasobwa, ku ruhande hakaba hari abandi bantu.

Umugabo wirabura wambaye ishati y'amaboko magufi y'umweru irimo uturongo tw'umukara akaba afite imisatsi y'umweru, akaba afatanye mu biganza n'umugore wambaye ikanzu y'ubururu y'amaboko magufi, akaba yambaye amataratara inyuma hakaba hari icyapa ndetse n'utundi tuntu dutandukanye.

Icyapa cyanditseho ejo heza kikaba kiri mu mabara y'umweru, icyatsi ndetse n'ubururu, kikaba kiri mu byatsi, ku rundi ruhande hakaba hari abantu benshi bahagaze harimo abagore, abana ndetse n'abagabo.

Umugore wambaye umupira w'amaboko mugufi ndetse n'igitenge akaba yicaye ku ntebe, akaba afite mituweri mu ntoki ze. Imbere hakaba hari umugore wambaye itabuye ifite iba ry'umweru akaba ari kwandika mu ikayi, imbere hakaba hari imeza ndetse hakaba n'ibindi bikoresho, akaba ari guha serivisi umurwayi.

Umukobwa wambaye ikoti ry'umukara ndetse n'agapira k'amarage atandukanye w'inzobe muremure, iruhande rwe hakaba undi mugore uhagaze wambaye ikanzu y'amaboko maremare nawe w'inzobe, bakaba bafite ikintu cy'ubururu mu ntoki, inyuma hakaba hari icyapa kiri amabara y'ubururu ndetse n'andi mabara agiye atandukanye.

Abantu benshi bahagaze hakaba barimo abagore ndetse n'abagabo, bakaba bafite ibiribwa imbere yabo, hakaba harimo umwe wambaye umupira w'umuhondo, umupira w'umutuku, umupira w'umweru ndetse n'umupira w'umukara.

Umuhungu wambaye umupira w'amaboko magufi, ufite ibara ry'umukara ipantaro ifite ibara ry'ubururu n'inkweto, akaba ahagaze mu nzu y'ubucuruzi i ruhande hakaba hari amakarito, ahandi hakaba ari inzu ifite icyapa cy'amabara y'umweru ndetse gifite ibara ry'icyatsi.

Umuhungu wambaye umupira w'amaguru mugufi ufite ibara ry'icyatsi kirurutse, akaba afite ibikoresho bye bitandukanye mu ntoki ze, inyuma ye akaba ahagaze umuntu ufite igikoresho cy'ikoranabuhanga mu ntoki akaba yambaye ingofero y'umutuku, iruhande rwabo hakaba harimo utubati turimo ibikoresho bigiye bitandukanye.

Umukobwa wirabura akaba yicaye ku ntebe, akaba yambaye umupira ufite ibara ry'ubururu bwijimye ,akaba afite agacupa mu ntoki ku ruhande, akaba ari umugore ufite uruhu rwera akaba ari guseka kurundi ruhande, hakaba undi muntu uhagaze afite agapfunyika.